Iri ngiri akaba ari itsinda ry'abantu, uyu mugore akaba ahagaze imbere afite icyo ari kubashishikariza, urabona baricaye biteretse amazi y'inyange hari ibitambaro biri mu ibara ry'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Uyu nguyu ni mugabo, umugabo wambaye umupira w'ubururu, yambaye n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, akaba ari kunywa amazi y'Inyange, amazi meza, akorerwa mu Rwanda, akaba afite ikaramu n'urupapuro, buriya afite ibyo ari kwandika...

Aba ni abakozi ba leta, bashobora kuba ari abakozi ba leta, bambaye icyo bita amataburiya, y'umweru, harimo abambaye udupfukamunwa, ni abagabo, ni abagore, uko bigaragara bari ahantu mu nama, hari ibyo barimo baraganiraho.

Abangaba akaba ari abantu bicaye hamwe bashyize hamwe bari mu nama bari kunywa amazi y'Inyange harimo abafite za mudasobwa imbere yabo n'abagore n'abagabo b'abasirimu bambaye neza bari kuganira ibyubaka u Rwanda kandi bibateza imbere.

Uyu nguyu ni umugore uri imbere, imbere hari ikibaho, ariho arereka bano bantu bicaye imbere ye, ibyo buriya yabateganyirijeyo, afite ibyo ariko kubashishikariza uko babikora, bono abantu baba baje na bo baba bakeneye kumva ibyo ababwira.

Uyunguyu akaba ari umugabo uri kuvuga, aha niwe uri kuvuga niwe ugazweho bitewe n'indangururamajwi, hano imbere bakaba bafite amacupa y'inyange n'amazi bari kunywa, amazi ni ingirakamaro.

Ahahanga abaje mu nama urabona um inzu wa kKgali ikeye, Kigali yacu baba baje ngo n'abagira ngo bagire ibyo baganiraho bateze imbere igihugu cyacu umujyi wacu cye umere neza nk bikwiye nkukouko umuyobozi wacu yabishaka.

Iri ngiri akaba ari itsinda ry'abantu, bakaba bishyize hamwe ngo bagire ibyo baganiraho. Ndabona bamwe benshi baricaye hahagaza abantu babiri, hari uri gusohoka, hari n'uyu mugabo uhagaze uriho urabagezaho igitekerezo cye cyangwa ijambo rye bitewe n'icyo bari kuganiraho.

Iri ngiri ni itsinda ry'abantu ry'abagore n'abagabo bari mu nama, ndabona bicaye mu myanya y'uruganiriro bari kureba imbere, bafite icyo bakurikiye. Hano baba baje kungurana ibitekerezo kugira ngo bagire icyo bageraho, kandi bungurane ibitekerezo.

Iri ngiri ni itsinda ry'abantu, urabona ni abagore babiri n'umugabo umwe, aho bafite ibyo bari kuganiraho. Inyuma yabo hari ahantu handitse mu ibara ry'ubururu ngo: "Kigali yacu." Inyuma kandi na ho handitse ngo: "Kigali ikeye," mu ibara ry'icyatsi.

Iri ngiri akaba ari itsinda ry'abantu, bari bari bafite ibyo bari kwigaho, ni abagabo ubona bakuze, hirya ku rukuta hari FPR, ni ishyaka ryavuyemo n'umukuru w'iki gihugu Paul Kagame

Aba ngaba ni abagore n'abagabo bari mu nama ku bigaragara bari mu nama bararebana bafite za mudasobwa imbere yabo, bafite icyo kunywa cy'amazi agaragara bariho barahuza ibitekerezo bashyira hamwe.

Abangaba ni abantu bashobora kuba bari mu rubyiruko, bariho barabwirwa ni abahungu ni abajene harimo n'inkumi, hari umuntu bakurikiye imbere ubabwira bambaye imyenda isa buriya hari ikintu wabaye kurushakamo amakuru runaka.

Uyu nguyu ni umugabo uhagaze abandi baricaye urabona bari kunywa amazi y'inyange. Uyu mugabo afite buriya ibyo ari kubabwira, bafite impamvu bari hano, hari ibyo buriya ari kubashishikariza cyangwa ari kubagiraho inama bitewe n'impamvu baje aho ngaho.

Iri ngiri akaba ari itsinda ry'abantu, harimo abagabo, abagore, abakobwa, abasore, bigaragara harimo ab'inyuma, bameze nk'abayobozi babo, baba bihurije hamwe kugira ngo bagire ibyo baganiraho.

Iri ngiri rikaba ari itsinda ry'abantu ry'urubyiruko baba bari kwamamariza ibi bintu bambaye ku mipira yabo, imbere yabo hari amazi y'inyange amazi meza akorerwa mu Rwanda kandi yujuje ubuziranenge.

Abangaba akaba ari abakobwa n'abahungu, ubona b'abasilamu akenshi bakunda gukorera ku kigo cy'i Nyamirambo cy'abasilamu kwa Kadafi, ubona bari muri sitade baje kureba umupira nyuma hari ibindi byabazanye.

Iki ngiki akaba ari ikiziga cy'abantu bakoraniye hamwe basa neza bafite buriya ibyo bari kuganiraho, bari kungurana ibitekerezo. Inyuma handitseho ngo Kigali yacu. Kigali ni mujyi mu Rwanda mukuru.

Iri ngiri akaba ari itsinda ry'abantu barikujya inama, bafite amazi imbere yabo, bafite za mudasobwa. Bicaye ahantu hameze neza, ni mu byicaro bimeze neza, kandi bisukuye. Uko bigaragara barigushyira hamwe imitwe yabo, bagashyira hamwe ibitekerezo, kugira ngo bungurane ibitekerezo bizima.

Iri ngiri ni itsinda ry'abantu, inyuma handitseho ngo Kigali yacu, hirya mu ibara ry'icyatsi handitseho ngo Kigali ikeye, bafite ibyo bari kuganiraho gusa bishobora kuba bijyanye n'isuku, kuko urabona ni abantu biyubashye barashyira ibitekerezo hamwe bagira ngo Kigali yacu icye.

Aba ngaba akaba ari abagabo bari mu nama runaka, hari abafite za mudasobwa imbere yabo abandi bafite uturangururamajwi abandi bicaranye amazi, amazi y'inyange yo kunywa, amazi akorerwa mu Rwanda.

Uyu nguyu akaba ari umugabo uri gutanga imbwirwaruhame ku bandi bantu bicaye, ahantu hasakaye h'umweru bicaye mu ntebe z'umweru akaba ariko kubabwira ibintu yaba yabateguriye ubona ko barabishishikariza kandi babitabiriye neza cyane.

Aba ngaba akaba ari amatsinda y'abantu bafite icyo bari kuganira, harimo abagabo, harimo abakobwa, harimo abagore n'abasore baraganira bari kunywa amazi y'inyange bari ku meza barareba imbere buriya uri kubagezaho ikiganiro ntihari.

Iringiri ni itsinda ry'abantu, baba bari kuganira bahuje, abagore n'abagabo, abasore n'abakobwa, inyuma handitseho Kigali yacu mu ibara ry'ubururu, mu ibara ry'icyatsi handitsemo Kigali icyeye, urumva bari kugerageza kuganira ku cyatuma Kigali icya, n'ibindi.

Aba ngaba akaba ari itsinda ry'abantu, itsinda ry'abagore n'abagabo bakeye, babyambariye, baje gusa bari mu nama, harimo bafite za mudasobwa imbere y'abo, urabona ni abasirimu, bashobora kuba bakorera leta, buriya baravugana ibyatuma igihugu cyacu gitera imbere.

Iri ngiri akaba ari itsinda ry'abantu bahuriye hamwe bari mu nama, bariho barinywera amazi y'inyange, baba bafite ibyo bari kuganiraho kandi byubaka igihugu, kuko abantu bateraniye hamwe gutya bakuze baba bari kuvuga ibyubaka igihugu.

Iri ngiri akaba ari itsinda ry'abantu bashyize hamwe, bicaye bambaye umupira isa hari ibyo baje kuvuga, naho baje kuganira biteretse amazi y'Inyange, n'ibyo kunywa bindi biryohera by'Inyange.

Iri ngiri akaba ari itsinda ry'abantu, aho bicaye bashyize hamwe, hari abafite ibitiyo, hari abafite amajerekani, hari abafite n'amasuka, uko bigaragara aha baje mu nama.

Aba ngaba ni ikoraniro ry'abagabo n'abagore, bashyize hamwe ngo bagire ibyo baganiraho bungurana ibitekerezo, bafite za mudasobwa imbere yabo bari kunywa bafite n'uturangururamajwi.

Aha ngaha, aha ndabona harimo abantu benshi, harimo abantu bashinzwe umutekano batandukanye bambaye amadarapo, harimo abagabo benshi harimo n'abagore, bari hano baba baje mu nama, bitewe n'icyo bashaka kugeraho.

Uyu akaba ari umugabo cyangwa umusore gusa ntago ashaje, afite akarangururamajwi mu ntoki ari kubwira abandi bantu bicaye imbere ye, imbere ye hari amazi meza yayandi akorerwa mu Rwanda n'umugabo akaba yambaye neza, bafite ibirere kubashishikariza bitewe n'impamvu babahaje.

Uyu we akaba ari umugore n'umugabo gusa n'inyuma hari n'abandi, umugabo akaba yambaye amadarubindi bashaka kuba bari mu nama mu birori n'ibindi gusa bariho barareba imbere buriya uri kubabwira bitewe nikiba cyabazanye.

Aba ngaba ni abagore, nk'uko bigaragara ni abagore gusa cyangwa abakobwa, barimo baranywa amazi y'inyange, uko bigaragara bambaye imipira buriya hari ibintu baje kwamamariza cyangwa kuganiraho, kugira ngo bungurane ibitekerezo bagire ibyo bageraho.

Iri ngiri akaba ari itsinda ry'abantu bakaba bari kwiga ku bintu bimwe na bimwe hari ibintu bafite mu ntoki hari imbere yabo hari za mudasobwa birahari ibyo abaho barashakisha bafite amakaye imbere yabo uko bigaragara bafite bari kunywa n'amazi y'inyange.

Iki akaba ari ikigo cyitwa irembo, kikaba gifasha ibintu byinshi bitandukanye, ibintu bijyanye n'ibya leta, kwishyura imisoro, kwishyura amahoro, kureba ibyangombwa by'amavuko, ibyangombwa by'uko washatse n'ibindi byangombwa.

Ibingibi akaba ari ugushishikariza abantu mu bijyanye n'imisoro; kwishyura imisoro ni isao ifasha ibintu byinshi kubaka imihanda, kubaka amavuriro, kubaka ibikorwaremezo byose byadufasha kandi gusora ni byiza.

Iyi ngiyi ikaba yitwa rura, rura ishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, abantu bava hanze bikoreye ibintu ibiki, biba bigomba gusora. Ibi ngibi rero ni nibyo bita umusoro n'amahoro.

Iki ngiki akaba ari ikigo cy'irembo gifasha gutanga ibintu byinshi haba kuri murandasi cyangwa wabagannye bagufasha ibintu byinshi bigiye bitandukanye kwishyura umuriro, kwishyura ibintu byose byinshi, kwishyura ibintu bya leta imisoro, amahoro.

Aka akabari umuhanda muhanda akabagendwamo n'agace k'abanyamaguru, hirya hari aho ibinyabiziga, ahandi aba ari aho bambukira abanyamaguru, hano imbere haba hari icyapa cya hango noteri w'ubutaka, noteri wikorera, ahandi hakaba ari mu kigo cyitwa irembo.

Uyu ngo akaba ari umugore urigusha mudasobwa ibintu barihareba bamwe muribona nande hari ikigamashini gishinzwe gusohora impapuroshobora akoramo ku irembo cyangwa gihano leta.

Ibingibi akaba ari ibintu bijyanye n'umusoro ubonabayeverega ngo ureba umusoro ku nyungu zawe nabiri makumyabiri nagatatu kandi ugomba kwishyura ngo bitarenze bibiri ma kumyabiri na kane, tariki ya mirongo itatu, mukwa gatatu mubyatambutse.

Iki ngiki ni ikigo cyo mu Rwanda gifite ibyo gishinzwe cyita RDB Rwanda, hejuru hariho n'ibindi, nk'ikindi kigo cyitwa yutube gikora ku mbuga nkoranyambaga, gikwirakwiza amafoto n'amashusho.

Ikingiki ni ikigo cy'irembo. Irembo rikora ibintu byinshi, urabonaho banki zigiye zitandukanye; banki yacu, Equity banki, Ekobanki, Kogebanki, ndetse n'izindi banki zigiye zitandukanye. Hano rero ku irembo bafasha ibintu byinshi cyane.

Iyi ngiyi akaba ari ikarita yifashishwa mu gutega imodoka iki icyuma kiri imbere iyo umaze kwishyiriraho amafaranga uragenda ugakozaho ukareba ko ya mafaranga bayashyizeho ukabona kujya gutekaga kugira ngo utaza kugera ku kinyabiziga cyawe wakozaho ukabona nta amafaranga ufite.

Aha ngaha hakaba hari impapuro zigize zitandukanye z'ama banki, hari iyo bita banki yacu, hari equity banki, hari irembo, hari n'ibindi bikorwa bimanitse hano, inyuma hari umugore ufite mudasobwa.

Iri ngiri akaba ari itsinda ry'urubyiruko, riragaragara n'urubyiruko abahungu n'abakobwa, bafite za mudasobwa, imbere yabo buriya hari ibyo bariho baragenda bashakisha, urabona bafite amatsiko buriya haribyo baba babwiwe, bikuye bajugunye hirya dukode.

Ahantu urabona ni ahantu hari urugomero rw'amashanyarazi cyangwa hahurira insinga z'imigozi y'amashanyarazi, hano ntabwo aba ari ha hantu bavuga ngo ni amashanyarazi y'urugo rumwe, hano biba byakwirakwiza akarere cyangwa intara yose.

Ikingiki akaba ari icyuma gishinzwe kugenzura ibintu bijyanye n'amashanyarazi, mugihe yenda amashanyarazi yari ufite umuvuduko mwinshi bakagabanya, nimba afite umuvuduko muke bakongera, bagenda basakaza mu baturage hirya no hino.

Iki ngiki ni igiti, cyangwa ipoto, cyifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu ngo, hano baraza bagatera, buri rugo ruba rufite urutsinga, buri rugo urutsinga kugira ngo babone amashanyarazi, nta kibazo afite, nta n'impanuka bizateza.

Uyu ni umunara urimo ikintu k'icyuma gishinzwe gusakaza umuriro w'amashanyarazi mu ngo hirya no hino, bagira ngo bongere umuvuduko cyangwa umuvuduko ari mwinshi bakawugabanya kugira ngo hataza kuba icyo bita impanuka.

Aya akabari amazu'zu yubatse inkoru n'uruzitiro byo bita igipangu hejuru hariya amatimotuku hakaba hari n'icyo bita antenedani ishinzweganiro bya bye by'itumanaho n'ibindi.

Iki ngiki akaba ari, n'ibyuma bizamuye bikaba umunara, bikaba bishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu ntera ndende. Urabona ntabwo byegereye amazu, niharehare bikora mu ntera ndende.

Aba ngabo akaba ari abantu babiri bagannye umukozi w'itumanaho rya MTN hano ni mu Rwanda, uyu nguyu wicaye mu kantu kari mu ibara ry'umuhondo bakaba bamugannye ngo agire ibyo abafashe bimwe na bimwe mu itumanaho.

Ikingiki kikaba ari igiti iki twita amapoto akozwe mu byuma ashinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu ngo hirya no hino barabizi ngo zikazuza ndetse n'amashanyarazi kandi ni ibintu byoroshye kandi bigezweho.

Iri ngiri akaba ari ipoto cyangwa umunara ushinzwe gukwirakwiza amashanyarazi hirya no hino. Ibi ngibi urabona ni kirerekire kiba gifiteho ibyuma binini, bikaba bikora ahantu hanini, mu ntera nini cyane ku buryo byambukiranya n'uturere cyangwa intara.

Iyingiyi akaba ari inyubako iri munsi y'umuhanda ifite n'amashanyarazi, hano hari ikindi giti kiriho amashanyarazi. Amashanyarazi ni meza cyane, barayaduhaye adufasha ibintu byinshi, adufasha imirimo myinshi.

Iyi nk'iyi akaba ari imashini ifasha gukwirakwiza amashanyarazi cyangwa kugabanya umuvuduko bitewe n'umuvuduko amashanyarazi ari kugira ngo hatagira inzu zishya imigozi inshya cyangwa izindi mpanuka zava mumashanyarazi.

Uru nguru uko bigaragara rwubatswe nk'uruganda rubonaanye inan y'inzu yo guturamo hari ibinyabiziga biro birazamuka bigaragara n' ahantu ni hanini hagenewe n'ubundi inganda hagaragara ahantu ho gushyira imiturirwa.

Uyu nguyu akaba ari umuntu wuriye ipoto cyangwa umunara w'amashanyarazi. Urabona agiye kuyakora cyangwa arahura ashyira muri uwo munara kugira ngo abashekore umuriro usa hari ku baturage baturiye aho bose.

Iyi ngiyi ikaba ari ibikorwa remezo byo muri rusange naho hakaba ari ibinyabiziga hejuru hakaba hari ibiti bishinzwe kugenda bikwirakwiza amashanyarazi hirya no hino hano bakaba hari abanyamaguru hakwiriye hakaba hari inzu nazo zubakitse neza cyane.

Uyu nguyu n'umuhanda, muhanda harimo ibinyabiziga hari ahari abanyamaguru hirya hari inyubako nyubako nyinshi hari zuzuye n'izitaruzura harimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye n'abantu bari kugendera mu nzira yabo.

Uyu nguyu akaba ari umugabo uri kujya ahantu haparitse ikinyabiziga, hari n'ahandi bakarabira intoki kugira biririnde imyanda, hino naho mu ruhande rw'iburyo, rw'ibumoso naho hakaba hari imiturirwa.

Uyu nguyu akaba ari umugabo, umugabo urimo aramanuka, inyuma hari abandi bana babiri, abagore babiri n'umugabo umwe, inyuma ye kandi hari ahantu haparitse ibinyabiziga bitatu hirya no hino n'imbere hose hubatse amazu.

Hano hakaba hari ahantu hari inyubako wagira ngo ni ku kigo nderabuzima, hakaba hari ibinyabiziga byinshi byahanganye, akaba ari umunyamaguru na we uri kumanuka yo, imbere hari icyapa kigenda cyerekana ahantu ugomba kunyura bakuyobora.

Ibi ngibi akaba ari ibitaro bya Kacyiru biherereye mu mujyi wa Kigali, hano hari icyapa cyerekana ko aho banyura, aho babyariza ahubwo guca nyine hose baba bakwereka, ca aha, ca aha, ca aha.

Uyu nguyu akaba ari umuhungu w'umwirabura akaba ari kumwe n'uwa ruhu rwera, hirya yabo hakaba hariho na mudasobwa nk'uko bigaragara bashobora kuba abaganga, bano bavura, babaga n'izindi ndwara.

Nk'aha akaba ari ibitaro cyangwa ikigo nderabuzima, ikigo nderabuzima bakira nyine umuntu ufite ibibazo by'umubiri, cyangwa n'ibindi byose ukeneye kuvurwa, iki ni ikigo nderabuzima.

Aha ngaha ni ahantu hagenewe kwicarwa, hirya urabona hari akayira kajya ku bwiherero, hari n'akapa kerekana ku bagabo, ku bagore, yuko bafite ubumuga, hari igikoresho kifashishwa mu kuzimya umuriro.

Aha ngaha ni inzira y'abanyamaguru iteganyijwe, hejuru harasakaye, hirya hari inyubako, hino na ho hakaba hari inyubako, hakaba hubakitse nk'aho ari ku kigo nderabuzima, no hasi hakaba hari inzira y'abanyamaguru.

Uko bigaragara hano hari igipangu, igipangu kigaragaza akantu k'umusaraba ku mutuku, aho kamenyesha ko hashobora kuba hari ikigo nderabuzima, mo imbere haparitsemo ibinyabiziga n'umuntu ushinzwe umutekano w'umukobwa, hano hakaba ari mu kigo nderazima.

Ibi ngibi ni ikigo nderabuzima cyitwa Faisal, giherereye mu mujyi wa kigali, aho cyakira abantu benshi bagiye barwaye ibintu byinshi bigiye bitandukanye, amakanseri akomeye, ibi ibitaro birakomeye cyane, ikigo nderabuzima.

Aya ngaya akaba ari amazu agezweho yaba yubatse wagirango aha ni ku kigo nderabuzima bitewe n'ukuntu hubatse, imbere ikibuga gisa icyatsi, naho hari amazu yubakitse neza cyane.

Aba ngaba akaba ari abagororwa bamanitse ukubo bose, aba bagororwa nawe urabona bamanitse ukuboko ukundi kuboko kundi kuratambitse. Aba ngaba bambaye zino mupuzankano baba barakatiwe n'inkiko, bitewe n'ibyaha baba barakurikiranwagaho.

Aba bantu bakaba ari abantu bafasha mu gutanga serivisi z'abaturage, baza bakabahagarara imbere, ukavuga biterwa n'ibintu nyine bari gukora, ukababwira, bakandika bakagufasha mu bintu nyine waba wifuza byose.

Hano hari abantu bari ahantu babona bafite umutaka abandi bicaye hasi abandi bicaye ku ntebe bafite ameza bajyanye n'abayobozi mo imbere bari kuganiraho n'umuntu uri imbere wagira ngo ni ibintu bari kumushinja.

Iri ngiri rikaba ari itsinda ry'abantu, aho bashyize hamwe buriya bari kuganira ku bitagenda n'ibigenda ntabaganira ibintu bigenda gusa, ndabona n'abagore n'abagabo biyubashye bambaye neza bashobora ko bari mu nama.

Aba ngaba bakaba ari abagororwa, urumva abambara gutya baba batarakatirwa n'inkiko cyangwa bagakatirwa bakijurira, bambaye impuzankano y'iroza, bambara idupfukamunwa buriya hari indwara baba bari kwirinda ngo batanduzanya kubera baba ari benshi.

Uyu nguyu uko bigaragara ni umugore ufunzwe, kuko yambaye iyi myenda impuzankano y'imfungwa, inyuma hari abashinzwe umutekano babiri, uko bigaragara bari kumujyana, niba batari kongera kuburanishwa, bagiye kumufunga aho abandi bagororerwa.

Iyi ngiyi akaba ari inkiko gacaca, ibi ngibi ni ibyo baburanishaga kuka rubanda, nyuma ya Jenoside, muri mirongo icyenda na kane, yakorewe abatutsi, bagafata abantu bakabashyira imbere, bitewe n'abamuzi, bakamushinja bitewe n'ibyaha bamuziho, bakamukatira.

Ahangaha akaba ari ibintu byitwa inkiko gacaca, inkiko gacaca n'ibintu bigenda bibera mu ngo nyine ahatuye abantu bakavuga ibitagenda, n'abakoze ibyaha bakabageza imbere y'ubutabera, bagacibwa imanza bitewe n'ibyaha bakoze.

Uyu nguyu akaba ari umuntu w'umugabo wambaye amadarubindi, akaba afite mu ntoki akarangurura amajwi, akaba yambaye neza. Inyuma hakaba hari ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, imbere ye hicaye abantu ariho aragezaho imbwirwaruhame y'iwe.

Iringiri ni itsinda ry'abantu bambaye impuzankano bagira ngo ntabona bakoze ibyaha ni abagororwa baka bagira n'abasirikare mu kubarindira umutekano w'u Rwanda kuko urabona inyuma yaho hari abandi basirikare.

Uyu nguyu akaba ari umuntu ukora muri leta, akaba ari kurahira yambaye agapfukamunwa, ni umugore, inyuma ye naho hicaye umugabo, afashe ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, aha ngaha uba urahira imigabo n'imigambi.

Aba ngaba bakaba akaba ari itsinda ry'ingororwa zambaye ubupfukamunwa. Iyi impuzankano y'iroza yambarwa n'abantu batarakatirwa, abantu bakiri mu bujurire, abakiri kuburana, abagororwa. Iyo bavuye hano bahita basubizwa mu mu igororero bitewe n'iby'umucamanza yabakatiye.

Uyu nguyu akaba ari umugabo ukora mu rukiko bitewe n'imyenda yambaye n'ingofero yambaye, ni umugabo mukuru wiyubashye akaba ashobora kuba ari umucamanza mu rukiko rwa leta nyine inkiko ziba ari iza leta.

Aha ngaha hakaba ari ikigo cy'igororero giherereye i Musanze, aho bafata abantu bakoze ibyaha, bakajya kubagororamo bagira ibyo babaganiriza, babereka ko ibyo bakoze ari bibi, bagerageza kubahindura. Imyumvire ngo ntibazongeye kuyijyana mu bandi ikabica.

Uyu nguyu akaba ari umuntu uburanira abagororwa, aba bambaye impuzankano y'iroza bakaba batarakatirwa , iyo bakatiwe bambara ijya kuba, ifite irindi bara atari iringiri aba ngaba rero ,buriya bategereje ko umucamanza aza cyangwa abashinjacyaha bakaburana uhagaze akababuranira.

Iki ngiki akaba ari igikoresho cyifashishwa mu kuzimya umuriro kikaba cyitwa kizimyamoto. Iyo ahantu habaye habaye inkongi y'umuriro iki ngiki warangiza ukagifata ukagikanda ugatungerezaho havamo ibintu by'umweru birimo iyo bigeze ku muriro, umuriro uhita uzima.

Hano hakaba hari abagabo babiri bambaye impuzankano y'abantu bashinzwe umutekano mu Rwanda, hirya hari umuhanda w'ibinyabiziga, hino na ho hari ahantu h'abanyamaguru, ruguru yaho kandi hari ikigo cy'itumanaho cyitwa eyateri.

Ibi ngibi akaba ari ibitaro biherereye mu mujyi wa Kigali ibitaro bya polisi bya Kacyiru, ni ibitaro byashinzwe na polisi biherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kacyiru.

ibi ni ibintu bikoreshwa byitwa kizimyamwoto, byifashishwa mu kuzimya ahabaye inkongi y'umuriro. Ubundi babishyira ku mutaka kugira ngo ubonetse wese, abonye ahantu hari inkongi y'umuriro abashe kuyizimya itarasakara hirya no hino cyangwa ngo igira ibintu byinshi yangiza.

Iki ngiki akaba ari igikoresho kifashishwa mu kuzimya umuriro nk'ahantu haba hateye inkongi y'umuriro, iki ngiki gifasha umuntu waba urimo cyangwa uri hanze kuzimya uwo muriro vuba vuba, ataragira ibyangirika cyane cyangwahataragira abapfira mu mpanuka.

Ikindi ikindi ni igikoresho cyitwa ikizimotokiki kibasha kugufasha kuzimya umuriro wabaye inkongi y'umumwiriro, kigufasha kuhazimya bidakomeza gusakara hatazamo impfu z'abantu, ninba hari nk'igikoresho cyahiye kidafatisha inzu yose.

Iki ngiki akaba ari igikoresho kitwa kizimyamoto kinini, kikaba cyifashishwa mu kuzimya umuriro, ahantu habereye inkongi y'umuriro, bigaragara iki ngiki iyo ukanze ako kantu ko hejuru gasa nk'agafunze, hahita hasohokamo ibyuka by'umweru bikaba bibasha kuzimya umuriro.

Ikingiki akaba ari igikoresho cyifashishwa mu kuzimya umuriro wa kizimyamwoto, nk'ahantu haba hateye inkongi y'umuriro, uraza ukagikanda, hakavamo ibintu by'umweru, ibintu by'umweru nibyo bihita bizimya umuriro, kugira ngo udakomeza gusakara, wangiza n'ibindi.

Uyu nguyu akaba ari umuntu ushinzwe umutekano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, akaba yambaye impuzankano y'umukara, hepfo hari ikinyabiziga, hepfo naho yaho hari icyapa gisa n'ibara ry'umutuku mu magambo y'umweru wanditseho ngo ahan ni uguhagarara.

Iyi ngiyi akaba ari polisi y'u Rwanda, aha ni mu karere ka Nyarugenge, aha ni mu murenge wa Rwezamenyo, Nyarwezamenyo po cyangwa mu kagari, ntabwo icyapa kigaragara neza.

Iki ngiki kikaba ari ikigo cy'u Rwanda cya polisi mu karere ka Gasabo iri n'ishami rya Gasabo ahitwa i Remera n'ikigo gishinzwe umutekano w'abaturage n'ubusugire bw'igihugu.

Aba ngabo ni hari abapolisi babiri n'umugore uri kumanuka, abapolisi bashinzwe umutekano wo mu muhanda ibinyabiziga n'abanyamaguru, bareba ko bakurikiza amategeko yo mu muhanda.

Iki ngiki akaba ari igikoresho cyifashishwa mu kuzimya umuriro, bita kizimyamoto, iki ngiki kizimya umuriro, abantu habaye inkongi y'umuriro kugira ngo harekere cyangwa wabona hatangiye kwaka ugahita ukanda kariya kantu ko hejuru kazimya inkongi.

Uyu nguyu akaba ari umuntu ushinzwe umutekano mu gihugu cy'u Rwanda, hano yari ari hitwa Nyabugogo aho yahagaze ahantu ho abanyamaguru bambukira, umuhanda kugira ngo hatagira uza n'ikinyabiziga kiza kubabangamira.

Ibi ngibi n'ibikoresho byifashishwa mu kuzimya umuriro ahantu habaye inkongi y'umuriro byitwa kizimyamoto ibi ngibi uba ugomba kubishyira no kunzu yawe ari ibishoboka uba ugomba kuyishyiraho kugira ngo inkongi itazaguteza ibibazo bikomeye cyane.

Iki ngiki akaba ari igikoresho cyifashishwa mu kuzimya umuriro bakiyita kizimyamwoto, ahantu habaye nk'inkongi y'umuriro cyangwa hashaka kuba nk'inkongi abantu babiteguye bagahita bakanda kano kantu ubona gasa nk'aho kasamye ugahita ubona ibintu by'umweru bihita bizimya wa muririro.

Umuhungu uri hariya akaba ari umuntu ushinzwe umutekano wo mu rwanda imbere hakaba ari ibinyabiziga bari kugenda agenzura nimba biri bwubahiriza amategeko bitari guca amategeko ibyobigendera ku bafite ibyangombwa byo gutwara ibyo binyabiziga.

Uyu akaba ari n umuntu wiramamaza umuntu w'ishyaka rye arahana bari namatora bwa kabiri kwamamaza urabona yambaye ikinyarwanda yambaye nezaibkingikingi yambaye neza nk'umunyarwanda.

Aba ngaba akaba ari abantu bari mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda iherereye mu mujyi wa Kigali, ibi ngibi bakaba bagena amategeko y'igihugu cyacu, ibyo tugenderaho, ibyo tutagomba kwica, umurongo ngenderwaho. Urabona hano hari uri kubabwira buriya afite icyo ashinzwe n'abandi muri rusange bafite icyo bashinzwe.

Aba ngaba akaba ari abagore n'abagabo bari mu nama, mu nama urabona ni abantu biyubashye bafite ibyo bashinzwe, bafite za mudasobwa imbere yabo, imbere yabo hari uducupa tw'inyinge, buriya bari kunywa amazi y'inyange.

Uyunguyu ninyakubahwa perezida wacu paul kagame ubwo yarari kwiyamamariza kuba perezida hano yambaye idarapo ryishyaka abamo rya efuperi inkotanyi ahangaha rero yar'ari kwiyamamaza ataratorwa ariko twaramutoye.

Ibi nkuko bigaragara ni umugabo w'umwirabura akaba yambaye amadarubindi afite turangurura amajwi imbere ye hari inamatari kugira abantud ibyo yo kubashishikariza hari impamvu bari hano ntibyaba bari kubabwira.

Aha ngaha ni abantu bambaye ibintu by'ishyaka runaka, urabona bafite amabendera, bambaye ingofero, bambaye imipira byanditseho Pa, Sa, Da, bashobora kuba bafite ibindi bintu bari kwamamaza byabyo.

Uyu nguyu akaba ari umugore w'umunyafurika wirabura, akaba yambaye amadarubindi, akaba yambaye neza, afite imisatsi myiza, yambaye ikintu cy'umweru hejuru, yambaye mu ijosi yambayemo urunigi, ni ibyo abanyarwanda bakunda kwambara kandi barimbana neza.

Urunguru akaba ar’urupapuro twatoragaho, aha hejuru hari Nyakubahwa Perezida Paul KAGAME hari igipfunsi kuko ni ikimenyetso cye, hasi hari uwo bita Frank HABINEZA, hepfo hari uwo bita Philippe MPAYIMANA ababiyamamazaga bose twatoye i Kamerama.

Ahangaha ni ihuriro ry'abantu, nta wundi bayita ku nteko. Ahangaha baba bari n'ahakorerwa inama, bigaragara bari mu nama. Nubwo batagaragara neza ariko byanze bikunda bari mu nama, ijyanye n'igihugu nteko baganira ku by'igihugu gusa.

Abangaba ukaba ubona ni bagabo, barimo n'umugore; gusa bose ntabwo bishimye. Bane muri bo bambaye amadarubindi. Inyuma kandi hakaba hari ushinzwe umutekano wambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda, na we ntabwo yishimye wagira ngo bari baje gutabara.

Ahangaha hakaba ari umwaka ushize ,ubwo nyakubahwa umukuru w'igihugu wacu Paul Kagame yarari kwiyamamaza, bano bari inyuma ye n'abashinzwe umutekano we. Hejuru hari icyapa cyanditseho FPR n'ishyaka ry'iwe n'abaturage bari baje kumushyigikira akandi twaramutoye.

Aba ngaba akaba ari abantu bambaye imipira y'itora buriya bari gutora, bafite impapuro, hirya yabo hari uducupa tw'amazi bashobora kuba barimo barabara amajwi yavuye mu matora.

Iri ngiri akaba ari ishyaka rya FPR inkotanyi, ubwo Kagame nyakubahwa umukuru w'igihugu wacu, yiyamamazaga mu mwaka ushize, kugira ngo yenda atorwe, ni uko tukaba twaramutoye, akaba ubu ngubu ariwe ukuriye igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Hano hari umuntu uri kwamamaza umuntu wiyamamaje wiwe wo mu ishyaka rye, ubwo bari bariho baramamamza abantu bashaka gutorerwa kuba umukuru w'igihugu mu Rwanda rwacu.

Uyu nguyu akaba ari nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu Paul Kagame, akaba ari kumwe n'itsinda ry'abandi bantu abagore n'abagabo, buriya haba hari icyatumye bahura, bafite ibyo bagiye kuganiraho byateza imbere igihugu cyacu nk'uko abikora buri munsi.

Uyu nguyu akaba ari umugore n'umugabo bose bambaye amadarubindi, bari kwinywera amazi y'inyange amazi meza, bafite za mudasobwa bari mu nama uko bigaragara, bari bafite ibyo bariho bajya inama buriya.

Iri ngiri ni idarapo ry'u Rwanda rya kera mbere ya jenoside y'abatutsi muri maganakenda mirongo ikenda nakane iri ni idarapo bakoreshaga nyuma yago bahinduye idarapo tukaba dufie idarapo rishyashya.

Hano uyuyunguyu ni umukuru wacu w'igihugu ubwo yarire kwiyamamariza nyine kuba umukuru w'igihugu umwaka ushize hano hari ibyapa bye byari biriho igipfunsi yesuf n'ishyaka rye ariryo ryacu muterato kandi neza.

Abanga akaba akaba ari ihuriro ry'abantu bari bari kwamamaza umunyamuryango wabo cyangwa bari kwamamaza abo bashaka gutora, mu gihe cy'amatora hari hari abamaza batatu nka perezida Paul kagame, philpe Habineza nadetse na Frank Habineza philippe Muhayimana philippe na Frank Habineza twitoreye Kagame Poul.

Aha ngaha uko bigaragara n'abantu baje gutora muri kubona babyambariye bazindutse, hano hari ibendera ryacu ry'Igihugu hahagaze umuntu uragenda aberekera mucaha mukore ibi, nabo batonze umurongo inyuma naho hari ibinyabiziga byi...

Aya ngaya akaba ari amabendera. Amabendera menshi rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu. Inyuma hari ikoraniro ry'abantu bafite ibyo baje kuganiraho kuvuganaho banabagiye baturuka ipande nyinshi zitandukanye kugira bungurane ibitekerezo.

Ibingibi ahangaha akaba ari mu mujyi wa Kigali hano hakaba hari ibinyabiziga byinshi bi byi bitandukanye by'amainyabiziga bibiriinyabiziga bitatubiziga bine yaha hakaba ari inzira nyabagendwa y'abanyamaguru.

Ubu hakaba hari ibinyabiziga bitwara ibintu biremereye biba byikorera ibintu biremereye amasima, amakara, imifuka iremereye cyane noneho n'uyu mugabo uhagaze ashobora kuba apakurura.

Ikingiki akaba ari ikinyabiziga cy'amapine ane, kikaba kiriho kirazamuka, uyunguyu ni umuhanda, umuhanda w'ibinyabiziga, hano nta hantu h'abanyamaguru hahari, urabona kirimo kirazamuka hano inyuma hari ibindi binyabiziga bitatu.

Iki ngiki akaba ari ikinyabiziga, harimo ibinyabiziga bibiri, gusa icyo kiri mu ibara ry'umuhondo, gitwara abantu benshi kuva ku bantu mirongo itanu, mirongo irindwi, igihe gitwara abantu benshi kandi icyarimwe, bamwe baricara abandi bagahagarara, bamwe bayita twegerane.

Uyu nguyu akaba ari umuhanda, hepfo harimo ibinyabiziga, hano hino hadasa n'ahandi hasa n'ahegeye hejuru hagengwa n'abantu, hagenewe abanyamagurugusa, ikinyabiziga rero kirekire kikaba gishinzwe gutwara abantu benshi

Iki ngiki akaba ari ikinyabiziga cyifashishwa mu gupakira ibintu biremereye cyane, gishobora gupakira risansi, amazutu ndetse n’amazi, ni ibintu biba biremereye cyane bibarirwa mu matoni umuntu atakikorera.

Uyunguyu akaba ari umuntu ufite ikinyabiziga cy'igare abari kugenda akaba afite ibintu yikoresha kuba ari umuceri cyangwa ibindi biribwa biremereye kandi hinoy hakaba ari inzira y'abanyamaguru yo kugendamo n'abanyamaguru gusa.

Iki ngiki akaba ari ikinkinyabiziga cyifashishwa mu kwikorera ibintu biremereye nk'ibintu; amazi, esansi n'ibindi bintu bigiye biremereye, ibintu bikora umuhanda byitwa godolo n'ibintu bita, Kandi urabona kirapfundikiye, ni ibintu bitameneka.

Ibi ngibi akaba ari ibinyabiziga byifashishwa mu gutwara abantu, abantu rusange bagiye kwambukiranya intara cyangwa bagiye ahantu kure, ibi bikaba byoroshye ingendo bigatwara abantu n'imizigo yabo kandi mu buryo bworoshye cyane.

Iyi ngiyi ni imodoka yitwa howo yifashishwa mu kwikorera ibintu biremereye; imicanga, amabuye, n'ibindi bintu biremereye nyine bitakwikorerwa n'ubutumodoka duto, kandi igatwara ibintu biremere kandi byinshi.

Iki ngiki akaba ari ikinyabiziga, hari ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye bitwaye abantu, hari ibitwaye imizigo, byose, ibinyabiziga biri hano biri kwerekeza mu gice kimwe, biri kuzamuka byose, nta kimanuka kirimo.

Urabona ikingiki ni ikinyabiziga cyifashishwa mu kwikorera ibintu biremereye, imifuka y'amakara, imifuka y'umuceri; ibicuruzwa nini bigiye biremereye birimo amatoni n'amatoni utashyira ku kitunyabiziga dutoya nk'igare n'utundi.

Uyu nguyu akaba ari umugabo uri gukora amasuku mu muhanda, ndi kubona hano afite ibyo ari kuyoreramo, urabona yambaye n'umwenda ugaragaza ko akora amasuku yambaye ingofero mu mutwe, yambaye n'iyo bita bote mu maguru.

Iki ngiki ni kinyabiziga gishinzwe kwikorera ibintu biremereye cyane, ikinyabiziga gifite amapine, arenga cumi n'abiri, iki ngiki kikaba cyikorera ibidomoro biremereye byuzuyemo amazi, risanse, n'ibintu byinshi bya leta, n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Ibingibi akaba ari ibinyabiziga biriho biramanuka biri mu muhanda imbere yabo hari ahantu h'abanyamaguru bari rimwe ibyumweru mu mirongo minini y'umweru harihaba aho abanyamaguru bambuka umuhanda iyo bahageze abantu batwaye ibinyabiziga bagenda gake.

Angahaha hakaba ari mu muhanda hano hakaba haparitse ibinyabiziga haretse ibinyabiziga wabarindiriye abagenzi baraza gutwara, abagenzi baraza bakumvikana, bamara kumvikana, bakavugana igiciro akamugeza aho umugenzi yifuza.

Uyu nguyu ni umuyobozi w'ikinyabiziga cy'igare, akaba atwayeho umugenzi hirya hari ikinyabiziga cy'amapine atatu ,kikaba kiri kuzamuka, kiriho numero za telefoni, ubwo uramutse umushaka wandika nimero za telefoni ukabasha kumubona.

Aha ngaha akaba ari mu muhanda ahazwi mu karere ka Nyarugenge ahazwi nka Nyabugogo aha ngaha akaba harimo ibinyabiziga by'amapine ane by'amapine abiri hano hahurira ihuriro ry'abantu benshi abari kujya mu ntara bari kuva mu ntara.

Iki ni ikinyabiziga cy'ibiziga bine, cy'ibiziga bine kiriho kirazamuka umuhanda. Aha ngaha hakaba ari mu karere ka Nyarugenge, uri kujya ahantu hitwa mu mujyi, mu mujyi wa Kigali, kirimo kirazamuka hirya hari n'ibindi biri kumanuka.

Hano hari umunyonzi hari umumotari utwaye n'umugenzi, hari imodoka iri mu bwoko bwa toyota, ishinzwe ikora akazi kayo ubundi ni ubwikore, imizigo ifari ibikamyo, mu bushishozi bwanjye hakurya ndabona ari Gisozi.

Ibi ngibi ni ibinyabiziga hano kaba ari ibinyabiziga by'amapine atatu abiri ane ibyapa byose biri mu muhanda hano hakaba hari inzira y'abanyamaguru kano kanyabiziga k'amapine atatu kikorera imizigo iremereye.

Ikinyabiziga rero kikaba cyitwa igare, iki ngiki urabona kikoreye umufuka hashobora kuba harimo ibirayi, cyangwa ibindi bintu gusa biremere, biri mu mufuka uremereye, uko bigaragara kiba kigiye ahantu kure, byifashisha rero nk'umuntu ufite ikinyabiziga koroshya ingendo.

Kimwe mu biziga cyifashishwa mu gupakira imizigo, imizigo iremereye umucanga, amabuye, kwimura abantu, kifashishwa mu gutwara imizigo umuntu atabasha kwikorera cyangwa atabasha kuvana ahantu hamwe ajyana ahandi.

Iki ngiki akaba ari ikinyabiziga, ikinyabiziga kiriho kirazamuka cyikorera ibintu bigiye biremereye, aha ngaha hakaba ari abandi baturage bari kugenda mu muhanda wagenewe abanyamaguru gusa, ibinyabiziga biri muri uyu munini, abanyamaguru bakaba bari muri uyu wo hino.

Iki ngiki ni ikinyabiziga kikoreye gihetse inka, inka nyinshi, inka aba ari nyinshi, iki kinyabiziga kiba gishinzwe gutwara ibintu biremereye none yitwaye inka zirenga eshanu ziba ari nyinshi.

ibi ngibi ni ibinyabiziga, hano harimo undi mugabo wagirango niwe uri kubera amategeko, hano ha hari ikinyabiziga cy'amapine atatu gishinzwe kwikorera imizigo iremereye. ikinyabiziga cy'amapine abiri cyo gishinzwe gutwara abantu.

Iki ngiki akaba ari ikinkinyabiziga cy'amapine atatu, gifite ibintu bimeze nka shitingi hejuru, aha ngaha hari inzira y'abanyamaguru, aha ngaha hakaba akagari mu karere ka Nyarugenge mu mu renge wa Muhima, uri kumanuka bitewe n'aho ujya.

Iki ngiki akaba ari ikinyabiziga cy'amapine atatu kirimo kirazamuka, hepfo hari umuturage na we urimo urakireba, ari kugendera mu nzira y'abanyamaguru, urabona hano hagati ni mu nzira y'ibinyabiziga, hirya ni aho abanyamaguru.

Aha ngaha hakaba hari inzira y'amazi icamo amazi, hakurya hakaba hari gare ihuriro rya gare, rya Nyabugogo niyo nini dufite muri iki gihugu, ihuriramo n'abantu benshi abava mu ntara bajya mu ntara n'ahandi.

Ibi ngibi akaba ari ibinyabiziga by'amapine atatu, biriya by'amapine atatu, byifashishwa mu kwikorera imizigo iremereye, kwimura abantu, no gutwara n'imifuka, y'amakara, y'umuceri, n'ibiribwa cyane cyane.

Ibingibi akaba ari ibinyabiziga by'amapinane ane nibindi by'ikindi kimwe by'amapina abiri. Hakurya hari umunyamagurugenda mu gahanda k'abanyamaguru, umwe muri bo urazamuka ikinyabiziga bikira kumanuka ibindi bibiri biri kuzamuka.

Iki ni ikinyabiziga gifite amapine menshi cyifashishwa mu gutwara ibintu biremereye. Kandi ibyo bintu kikagera ahantu kure nk'amazi, peteroli, esanse, mazutu n'ibintu byinshi byambukiranya imipaka.

Uyu nguyu akaba ari umuhanda uri kugenderamo ibinyabiziga, urabona hano hari ikinyomoteteri hariya hari hari gutambukana n'ikindi kinyabiziga cy'imodoka hano biri mu muhanda usa nk'utangiye kwangirika.

Iki ngiki akaba ari ikinyabiziga gishinzwe gutwara abantu cy'ishami ryitwa sitari, gitwara abantu benshi bagera kuri mirongo itatu na babiri makumyabiri n'umunani. Urumva ikingiki cyoroshya ingendo ku bantu bamwe na bamwe bayigana.

Iki ngiki kinyabiziga cyitwa imodoka cyifashishwa mu kwigisha abantu amategeko y'umuhanda gutwara abantu nyine babatanze gutwa iki n'iki rero zazanitseho ikigo zikorera hano ukaza utin gutwara imodoka bikagufasha kubona uruhushya rwoubutari rwo gutwara ibinyabiziga.

Iki ngiki kaba ari ikinyabiziga cy'amapine atatu gishinzwe kwikorera ibintu biremereye ariko bitari cyane. Noneho kiriya kindi cy'imbere cy'amapine ushobora gusanga ari nka atandatu cyanditseho dayihatsu cyo cyikorera ibintu biremereye cyane.

Iki ngiki akaba ari ikinkinyabiziga cy'amapine ane gikoreshwa mu kwikorera imizigo, amakara, abantu bimuka, ibintu byaguzwe, n'ibindi bintu byinshi biremereye umuntu atabasha kwikorera ku matwi we.

Iki ngiki akaba ari ikinyabiziga gishinzwe gutwara abantu bambukiranya uturere n'ahandi, ariko ntabwo gikorera mu mujyi wa Kigali, yambukiranya uturere hajyamo abantu benshi, yitwa Ritiko ni nini irihuta irakomera ni nziza.

Aha ngaha ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, aha hantu hagenewe kwicarwa abantu, hari ukuntu uza urushye mu mugjyi wa Kigali urabona n'izuba wiga ukaza ugahita uhiyicarira ukaba uruhuka ni heza haba hari akayaga ndahazi ni heza cyane.

Iki ngiki, uko bigaragara ni ikibuga kirambuye, giteyemo ibyatsi, ibyatsi byinshi, abana bashobora kugikiniramo, inka zishobora kurishirizamo, ihene ndetse n'andi matungo.

Ahangaha hakaba ari ahantu heza hasakaye wagirango ni ahantu hicara abantu baje kureba abantu bari gukina, nkuko bigaragara ni ahantu hanini hameze neza hagezweho hari intebe nziza wicara wisanzuye ntakavuyo.

Hano hakaba hari ikibuga. Ikibuga gishobora kuba ari icy'umukino w'amaboko, Inyum hatasi icyatsi ha ameza neza hono hirya hari ibindi byuma biriho idarapo ibendera ryacu ry'u Rwanda.

Hano ni mu kibuga cy'umupira w'amaguru aho bagaragara ko hari kuberamo imyitozo utuntu tubiri tw'umuhondo dufashishwa mu myitozo mu makipe abiri ari gukina bari kwitoza ku kibuga kirambuye neza.

Ahangaha hakaba hari ikintu cy'icyapa cyerekana ko hano bariho barawukora ibikorwaremezo, aremezare bari kubabwira ngo hano nta kuwaca, nta kinyabiziga, nta munyamaguru, haba hagenewe abantu bari gukora iyo mirimo bonyine.

Iki ngiki akaba ari icyapa cyerekana ahantu abanyamaguru bemerewe kunyura mu muhanda nyine w'ibinyabiziga, haba hashushanyije mu turongo tw'umweru, dutambitse ku buryo ibinyabiziga na byo iyo bihageze birahagarara.

Iki ngiki akaba ari icyapa gikoreshwa mu muhanda, iki cyapa kikaba kigaragaza ahantu ho kuzenguruka, uragenda mbere yo gukomeza ukazenguruka cyangwa aho hantu hakaba hari uruziga ibinyabiziga bigomba kuzenguruka, ushaka gukata mu ruhande biragusaba kuzenguruka.

Iki ngiki akaba ari icyapa cyo mu muhanda cyifashishwa n'ibinyabiziga aho bari kugirango hano imbere hari ahantu ho kuzenguruka ntabwo nyine umuhanda ukomeza ni unakomeza urabanza uzenguke aho ahantu habugenewe bari ....

Iki ngiki akaba ari icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo gikoreshwa n'ibinyabiziga, kikaba kikwereka ngo imbere hari ikoni, ikorosi, harakata cyane, genda gahoro, utaza guhura n'ibyago byo guhura n'impanuka kuko aho hantu ntabwo hameze neza, harakata.

Iki ngiki akaba ari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, gikoreshwa n'ibinyabiziga bigaragaza ko aho hantu hemerewe guhagararwa cyangwa niba umunyamaguru ashaka gutega ikinyabiziga, na we aragenda akaba ari ho ahagarara atega ikinyabiziga kuko biba byemewe.

Iki ngiki akaba ari icyapa kifashishwa mu muhanda aho cyanditseho mirongo tandatu, uba ugomba kugendera ku muvuduko wa mirongo tandatu, urumva ubundi mu Rwanda niwo muvuduko ntarengwa wacyo, mirongo tandatu uba uri mu rugero, hano bakubarira ikirometero ku isaha.

Iki cyapa kikaba cyerekana ko aha hantu, hemewe guhagarara ibinyabiziga bitwara abantu, ku buryo n'umugenzi cyangwa umunyamaguru yaba ashaka gutega nk'ikinyabiziga, aragenda akahahagarara, akamanika ukuboko, ikinyabiziga ntabwo kibihanirwa.

Iki ni icyapa cyo mu muhanda cyerekana aho guca kiba gikomeza kikikwereka aho ugomba gukomeza ugendera kugira utazayoba, ibyapa rero bifasha abantu benshi yavugaga abari ku binyabiziga abari n'amaguru kikwereka ngo komeza ugende.

Iki ngiki ni icyapa cyo mu muhanda, cyanditseho mirongo itatu. Iki ngiki kikaba cyerekana ngo ugomba kugendera ku muvuduko wa mirongo itatu, ibi ngibi bikaba bikoreshwa n'ibinyabiziga kugira ngo bigende gake yenda umuhanda uba mubi, cyangwa harimo amakoni.

Iki ngiki akaba ari icyapa kerekana ko aga ngaha ari mu karere ka Bugesera, Akarere ka Bugesera gaherereye mu ntara y'iburasira zuba mu gihugu cy'urwanda, ni ahantu heza harambuye gusa haba ubushyuhe.

Iki ngiki akaba ari icyapa cyerekana ko aho hantu nta gare, nta kinyabiziga cy'igare cyemerewe kuhaparika kuhagenda wapi, bakibona bakikorera cyangwa baguhana, uwakizanye bakamuhana bitewe n'amategeko baba barashyizeho bitewe n'impamvu bamanitse kino cyapa.

Ahangaha uko bigaragara ni mu karere ka Gicumbi, ni ku mupaka, ku mupaka hano muri Gicumbi uba werekeje muri Uganda aho bita Gatuna, hano ni ku mupaka wa Gatuna, hano hari icyapa cyerekana ngo murakaza neza mu gihugu cy'u Rwanda, Gicumbi twagiye.

Kino akaba ari icyapa kifashishwa mu muhanda mu kuyobora utwaye ikinyabiziga runaka kimubwira ngo genda gake, bigenda gake bitewe nk'imbera hari ikindi cyapa cyerekana hari korosi y'umuhanda umeze nabi cyi gabanya umuvuduko.

Iki ngiki ni icyapa gikoreshwa mu muhanda kerekana ibinyabiziga bikoresha moteri cyangwa ibindi binyabiziga nyine bikoresha moteri n'amashanyarazi biberereka ko bagomba kugendera ku muvuduko wa mirongo ine, mirongo ine, gucisha make bakagenda gake kugirango wenda abari mu mihanda mibi n'ibindi.

Iyi ngiyi akaba ari inzu y'ubucuruzi, iherereye mu mujyi wa Kigali aho hiswe Kimironko, hano ikaba ari inzu ndende mu Rwanda inzu zigezweho, ziberamo ubucuruzi bugiye butandukanye, hahuriramo abantu benshi nta rusaku.

Hano hakaba hari inyubako, inyubako nziza zigezweho ziri inyuma y'urwo ruzitiro, hano hakaba hari umuhanda unyurwamo abanyamaguru, hano kandi hakaba hari inzira icamo amazi.

Hano imbere yanjye habanza hari inzu itangirwamo imiti y'abantu bavuye kwa muganga abarwayi ndetse n'abandi bantu bakeneye kwivuza bavunitse hino yaho ibumoso hari inzu ikusanyirizo ry'amata hamwe abantu batangira amata.

Izi ngizi akaba ari inyubako zubatse wagira ngo ni inganda zikaba zifite amabati y'umutuku. Hari n'izindi ziri hepfo, inzu zigezweho ndende, kandi ni inzu ngari zishobora kuba ari inganda zifite uruzitiro runini.

Ahangaha hakaba ari mu mujyi wa Kigali i Remera hakaba hitwa Hiri top, hiri topu ni ahantu heza cyane hasohokera abantu. Ni ahasirimu cyane hahererereye munsi ya hantu hitwa mu giporoso, hatekanye na hantu hitwa sari moteli ni heza cyane.

Aya ngaya akaba ari amazu menshi, hepfo naho hari amazi afite amabati y'ubururu, aha ngaha hakaba hashobora kuba hitwa mu Gatenga, kuko hari inyubako nyinshi zimeze nk'inganda, hakurya hari i Remera biragaragara, kubera ikibuga cy'umupira w'amaguru kinini gihari.

Iyi ngiyi akaba ari inyubako y'ubucuruzi buberamo ibintu byinshi, hari bwishingizi bwa mowa, hari banki yitwa ekwiti , hari kopeto, harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Aha ngaha akaba ari mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Kanombe iyi ngiyi ikaba ari inyubako iri mu ibara ry'umweru, ifite uruzitiro, hano kandi imbere inyuma yaho hakaba hari ikibuga kitarimo ikintu giteyemo n'ibiti.

Ibi byapa bir mbere y'ibi biinyabiziga birasobanuye ngo ntabwo mwemerewe kuhakarabira hano hantu, sinz impamvu bihahagaze kandi hari ibyapa bivuga ngo ntabwo byemewe kuhahagarara.

Ikaba inyubako igeretse ikorerwamo ibintu binshi bigiye bitandukanye hari n'ahari agashami ka banki y'abanyakenya yitwa ekwiti, rero hano hari n'abantu benshijiye n'ibindi binyabiziga.

Ayangaya akaba ari amazu yo guturamo menshi, aha ni agasozi keza kameze neza kubakitsemo amazu agezweho; yego hari n'indi ifite ubwirinzi hejuru kugira ngo abajura batazayisagarira.

Uyu akaba ari umumotari uparitse imbere ya banki ariko inyuma ye hari icyapa cyerekana ko nta parikingi ihari ndende na etaje yanditseho banki ovu Kigali na Ayendemu banki.

Iyi ngiyi ni inzu ni inzu ndende igeretse isa nkaho wagira ngo habamo ibyo bita amacumbi, na macumbi inzu nziza cyane kandi urabona ira ahantu heza pe! Ni heza cyane.

Aya ngaya akaba ari amazu, amazu yo guturwamo, hano hari inzu ifite amabati y'umukara, amabati meza, hakurya na ho hari inzu ndende ifite irangi ryiza ry'umweru n'andi mabara

Izi ngizi akaba ari inyubako nziza cyane zuzuye ziherereye mu mujyi wa kigali; nziza cyane zuzuye, ziri mu ibara ry'umweru ;n'indi mu ibara ry'umuhondo ni nziza pe!

Iyi ngiyi akaba ari inzu yubatse neza, irangiye, igereretse rimwe, ikaba ifite uruzitiro rusa neza rwubakisha amabuye ya Ruriba. Ruriba ayo n'amabuye akomera cyane kandi meza.

Izi ngizi akaba ari inzu zigezweho ni inzu y'umweru, inyuma naho hari indi nzu ifite amabati n'izi ni inzu zigeretse zigezweho z'abasirimu, kandi ntabwo zirya ubutaka, ushobora kubaka umuryango wawe ukubaka hejuru gutyo gutyo.

Aka ngaka akaba ari agasozi gasa neza karimo imiturirwa myiza, harimo amazu ageretse n'ayangaya yandi ajya kuba manegeka, gusa urabona ko ari ahantu hatuye, hari amazu meza cyane.

Abantu ahangaha hakaba hari umuhanda w'amabuye, imbere hari abantu ba ruhurwera, hari ibindi binyabiziga by'umutuku, n'ibindi bibiri by'umukara, bashobora kuba bariya ba ruhurwera aribo bazizanye.

Iyi ngiyi akaba ari inzu igeretse nziza cyane hano hazira ko hari umunyamaguru nawe nimba ategereje ikinyabiziga nimba ategereje iki? hano kandi hatwara ibinyabiziga bijye bitandukanye bihagaze k'uruhande rw'ubugeni biri kugenda ibara ry'umweru.

Ahangaha akabari mu Murenge wa Nyagatovu, aya akaba ari amazu y'amanegeka; amazu atakigezweho. Urabona nyina no guturira igishanga ni amazu aba afite ibyago byinshi byo gusenyuka, kubw'amazi n'ibindi.

Aha ngaha ni mu mugi wa Kigali i Remera i Remera hano hari rompuwe ruguru niho bita kwa Rando gusa hano hose nyine hitirirwa kwa Rando cyangwa aho bita ku Gisimenti hano hantu hose, ni uko baba bahita kwa Rando cyangwa ku gisimenti ushaka uko uhita.

Aha ngaha akaba ari ahantu hazwi nko mu Kanogo, hitwa mu Kanogo, urabona hari abantu barimo baragenda, ibinyabiziga, hano kandi hakabaa hari ahantu hari mu ibara ry'umweru, hano no ahahurira imihanda kugira ngo bitaza gucanga abantu batwaye ibinyabiziga.

Uyu nguyu akaba ari umuhanda nyabagendwa, urabona uriya muntu ufite ikinyabiziga cy'igare yari ari kwambuka ahantu hagenewe kwambuka abanyamaguru, ariko na we yahagenda bitewe n'uko, n'inzira ashaka guca, urabona hahandi hari ibinyabiziga bizamuka, ibimanuka.

Iyi ngiyi akaba ari ishusho icuritse , akaba ari ishusho hano hari umuhanda wumuhanda igi itandukanye hari uhita umanuka hariwukomeza harizabamo'ibinyabiziga biri kugendainziga bitandukanye hakurerera hakaba hari umuti w'icyatsi nkahin Kigali ikeye Kigali isukuye.

Unyu nguyu ukaba ari umuhanda nyabagendwa, hakurya hari umuntu uriho urambuka mu muhanda w'abanyamaguru. Hano hari ikinyabiziga kiri kumanuka, hariya uriya munyamaguru ari guca ni ho hagenda ibinyabiziga bizamuka, gusa kihageze kirahagarara kuko hariya hagenewe abanyamaguru gusa.

Bamwe hari umuhanda wari umuhanda nyabagendwa ba umwarimu iminyenda ibinyabiziga hirya no hino ibimanuka bizamuka hari akanya kahari abanyamaguru ari imbere mu iba ry'umweru na mirongo minini.

Bino bijyana akaba ari umuhanda hariya hakaba ikinyabiziga kiriho kiragenda hejuru hari amatara agaragaza ibimenyetso by'umuhanda, guhagarara kurinda yitegura kugenda, hakaba hari n'umwanya wari abanyamaguru mu gucamo.

Aha ngaha hakaba ari inzira y'abanyamaguru, niho hateganjwe kunyuramo abanyamaguru, iyo imodoka ihageze irahagarara gusa hano urabona bakoze amakosa. Ibinyabiziga biri gucaho n'abantu bagacaho, hano haba harimo ibyago by'uko haberamo impanuka.

Aha ngaha hakaba ari umuhanda ,kunu urabona ko hahise hakata ,ahangaha haba haragenewe guparika ibinyabiziga cyangwa ushaka gutega ikinyabiziga ni hano uhagarara ukagitega. Kuko ahantu hose ibinyabiziga ntibyemerewe kuhahagarara.

Iri ni igare riri guca ahantu abanyamaguru bateganyirijwe kugenda, aha hantu abanyamaguru baca ni ahantu hari imirongo y'umweru minini iba itambitse mu muhanda, aha handi hagenewe ibinyabiziga hariya ni ah'abanyamaguru.

Uyu nguyu ni umuhanda, umuhanda urimo ikinyabiziga gitwaye undi muntu umwe wambaye umupira w'umweru, bakaba bari kumanuka. Urabona igihugu cyacu giteye n'ibiti byinshi, gisa neza n'imihanda barayidukoreye habe n'ivumbi.

Uyu nguyu ni umuhanda ugendwamo n'ibinyabiziga n'abanyamaguru, abanyamaguru hano hari ahantu habugenewe baba bagomba guca, hano hantu hari mu ibara ry'umweru iri mu mirongo imanuka minini, iyo umunyamaguru ahageze ikinyabiziga kirahagarara umunyamaguru agatambuka, ikinyabiziga kigakomeza kugenda.

Ibi ngibi ni ibinyabiziga harimo ibinyabiziga by'amapine ane hakaba harimo ikinyabiziga kiriho umuntu cy'amapine abiri kizwe nk'igare, aba ngaba bari mu muhanda ikinyabiziga cy'amapine ane kikoreye ibintu kikoreye inyama uko bigaragara.

Ahanga ngaha hakaba haca abanyamaguru baryambuka umuhanda, hanokaba ari muri karere ka Kicukiro, ahazwi nka Sonatude na naho haya hari ibyapa biriho amabara y'icyatsi hejuruvba byabwiye abanyamaguru ngo mugende, yabaye umutuku murahagarara.

Uyu nguyu ukaba ari umuhanda hejuru hakaba hari ibyapa byo mu mabara byerekana ngo imodoka zihagarare abanyamaguru batambuke, hano hirya hari icyanya cyahariwe abantu b'abanyamaguru ahangaha akaba ari mu gace kitwa rwandegisi mum'umujyi wa kigali.

Uyu nguyu akaba ari umuhanda, imihanda igezweho igendwamo n'ibinyabiziga, aha ngaha hakaba hacamo abanyamaguru hano hari ibara ry'umweru mu mirongo minini itambitse, hejuru hakaba hari ibyapa biri mu mabara byerekana ko ibinyabiziga bihagarara cyangwa bikomeza.

Hano hakaba ari mu Karere ka Kicukiro, uno muhanda wo hasi ukaba ujya mu Gatenga, uwo hejuru ukaba ujya ahantu hitwa Kicukiro Nyanza. Hano rero hari ibinyabiziga bike bitegereje abagenzi, gusa hakurya ndabona hari icyapa kigaragaza ko nta kinyabiziga cyemewe kuhahagarara.

Uyu nguyu rero akaba ari umuhanda uragaraga nk'umuhanda w'ibitaka munini ugenda ujyamo ahantu mu mazu, ahantu hatuye abantu gusa hepfo yaho hari umuhanda munini uzwi nka kaburimbo, umuhanda w'umukara, imihanda igezweho kandi ihenze.

Iki ngiki ni ikiraro giherereye mu karere ka Kicukiro aho izica munsi ziba zigiyeta mu Gatenga, izijya hejuru ziba zijya aho bita Sonatibe cyangwa zazamuka zikajya ahao bita Kicukiro Nyanza.

Ikindi iyo akaba ari umuhanda uri ku kugendamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo ib ibyo'amapinabiri by'amapinane hakurya kandi hakaba hari umunyamaguru nawe uri urigendera kandi hano mu mahanga hakaba hari ayerekana ikimenyetso cy'umukata.

Uyu yungu uko bigaragara hano hari umuhanda w'abanyamaguru, hepfo hakaba n'umuhanda w'ibinyabiziga. Uko bigaragara hano hari ikinyabiziga gishinzwe kwikorera inyama, kino kinyabiziga gishinzwe kwikorera inyama gusa.